Ibyuma bihagaze bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi kure, hakaba ibyuma ari ibyuma bihari binini ku buryo bijyamo insinga nyinshi bikaba biteye mu murima.

Umugabo w'umudozi urimo aradoda inkweto yifashishije imashini ikoresha umuriro w'amashanyarazi, iyi mashini akaba ayifashisha arimo kudoda urukweto.

Ikiraro cyo mu kirere. Akaba ari icyaro cyubatse ku buryo abaturage bakinyuramo bakambuka bakagera hakurya. Aho iki kiraro cyubakishije imigozi ndetse n'ibyuma.